Umukangurambaga ndetse n'umujyanama w'ubuzima ari gutanga ibiryo ku bana batoya bambaye impuzankano isa y'ibara rya oranje.

Umugore ajya ku ivomero rusange ryashyizweho na leta afite injerekani akavomera amazi meza abana be kugira ngo batarwara indwara zandurira mu isuku nkeya.

Uburyo ibipimo bikurikirana bigaragaza ingano y'uburinganire hagendewe ku mwaka, bibiri na cumi n'umunani uburinganire bwagaragaye ko ari mirongo itanu na gatanu ku ijana.

Ihuriro ry'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi baganga, n'abita ku barwayi mu buzima bwabo bwa buri munsi, riherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri leta ya Jorujiya.

Aho abarwayi ndetse n'abandi baganye ikigonderabuzima cyangwa se ivuriro, bategerereza kugira ngo serivisi itaza kubageraho bagiye cyangwa badahari.

Nyuma yo kubona ko hari ibitagenda, umukangurambaga ndetse akaba umuganga yahuje inama irimo abaturage bose bo mu kagari kugira ngo abasobanurire imikoreshereze myiza y'amazi asukuye icyo ifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umubyeyi ndetse n'umuganga barita ku mwana umaze iminsi mike avutse bamwambika, bamugaburira ndetse n'ibindi asabwe, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza.

Umuganga ndetse n'umujyanama w'ubuzima ari gupima abaturage umuvuduko w'amaraso, ndetse n'uburyo umutima utera yifashishije igipimo ashyira ku kuboko.

Umwana mutoya arakoresha intoki ze zombi anywa amazi meza ava mu ivomero rusange riri aho atuye.

Ivomero rusange ryashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gusakaza amazi mu gihugu mu turere ndetse no mu midugudu muri rusange, hari umwana uri kuvoma.

Ameza akozwe mu birere, ateretsweho ibyo kurya bitunga umubiri ndetse n'ibindi birimo ibikombe byifashishwa banywa amazi.

Ihuriro hagati y'abayobozi b'ikigo gishinzwe ubuzima ndetse n'abatumirwa muri rusange aho baganira ku mikorere y'abaganga ndetse n'abandi bajyanama b'ubuzima bari mu buzima.

Mubyeyi nyuma yo kubyara isuzumishe kandi usuzumishe uruhinja mu masaha makumyabiri n'ane umaze kubyara, nyuma y'iminsi itatu hagati y'iminsi irindwi ndetse na cumi n'ine.

Ku bufatanye bw'umugore, n'umugabo, baratunganya icyumba, kigiye gutangirwamo inama, aho bari gushyira ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa, ndetse n'ibizamura amajwi bikayagabanya kugira ngo inama ize kuba ari nta makemwa.

Abaganga bambaye impuzankano iboneye ndetse n'agapfukamunwa, bari mucyumba aho bari gutangira urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Hehe n'igwingira, twite ku buzima bw'umubyeyi utwite kandi nawe yiyiteho, kuko aba abikorera umwana uri mu nda, kugira ngo azavuke afite ingingo zuzuye kandi akunzwe.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri ufite amazi meza abwira bagenzi be kutajya mu mazi mabi cyangwa kuyanywa ndetse ko byakangiza ubuzima bwabo abakangurira kunywa amazi meza.

Indwara zitandukanye zirimo agahinda gakabije, kugaragaza amarangamutima wivuye inyuma, ndetse no kwangirika kw'imikorere y'ubwonko, zose zivurwa hifashishijwe kuganirizwa.

Umuryango ufasha imbabare ndetse n'abandi, nk'abana n'abandi bakeneye ubufasha, ibahereza imyambaro ndetse n'ibiryo cyangwa ibindi bintu by'ibanze bikenerwa mu buzima.

Abakangurambaga ndetse n'abandi bajyanama b'ubuzima, ndetse na polisi y'u Rwanda, bari guhereza abana indyo yuzuye, kandi ifite intungamubiri ihagije.

Ivomero rusange riri mu giturage hari abana ndetse n'abandi bakuru baje kuvoma amazi meza kandi amazi ni ubuzima.

Ubufatanye bw'abakobwa babiri ku kumugezi umwe afasha mugenzi we gushyira amazi kumutwe kugirango ayageze aho yajyanye amahoro atangiritse cyangwa ngo amazi ameneke.

Umwana muto ari ku ivomero ari koga intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, nk'uko Ikigo gishinzwe Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda kibiteganya.

Imbaga nyamwinshi igizwe n'abakobwa ndetse n'abana, ababyeyi babatumye kuvoma amazi bitwaje amajerekani ndetse n'amabasi bari ku ivomero.

Ahatangirwa amahugurwa ku baforomo, abaganga ndetse n'abandi bashinzwe ubuzima muri rusange basobanurirwa uburyo bwo gufata neza umurwayi ndetse no kumufasha byemewe n'amategeko.

Umuganga uri mu gikorwa cyo kwita ku murwayi ahagana mu cyumba cy'ubuvuzi cyangwa aho gukorera imirimo y'ubuvuzi yambaye agapfukamunwa.

Ikigonderabuzima cya Mayange cyuguruye imiryango abaforomo, abaganga ndetse n'abandi baganiriza abarwayi bakabavura ndetse barishimye baranezerwa cyane.

Umubyeyi arita ku nshingano z'umwana ndetse ariko amushakira ibyo kurya, aho ajya mu isoko ndetse hari umunzani wo gupimiraho kugira ngo ibivamo bibe byizewe.

Ahatangirwa imbwirwaruhame yerekeranye n'ubuzima n'uburyo bwatera imbere muri rusange kandi bukagera kuri bose, hatabayeho andi mananiza cyangwa ibindi bitandukanye.

Umwana arishimira gukaraba amazi asa neza asukuye, kandi aboneka hafi aho atuye ku ivomero rusange.

Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, ibiganiro biba hagati y y'inzobere z'abaganga ndetse n'abandi bafite icyo babivugaho.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bita ku buzima muri rusange, b'abagore ndetse n'abagabo, abasore n'inkumi, bari guhereza intungamubiri z'ibanze umwana akenera akiri muto.

Abakangurambaga, abaganga, ndetse n'abaforomo, bari mu kigo nderabuzima, barafatira hamwe ifoto y'urwibutso, ndetse batibagiwe no gukora inshingano zabo.

Nyuma y'ibiganiro abakangurambaga ndetse n'abaganga batanze igikoma kigizwe n'ibimera bitandukanye birimo ibigori, amasaka ndetse n'ibindi kugira ngo abana barusheho kurambuka kandi bagire ubuzima bwiza.

Umukozi w'ikigo gishinzwe gutanga amazi mu gihugu ndetse n'abaturage ku ivomero baganira, bungurana ibitekerezo ndetse n'ibindi byashyirwa mu ngiro kugira ngo iterambere rigume rinoze ndetse n'ubuzima burusheho kumera neza.

Abagabo bahuriye ku meza nk'abari mu biganiro, bafite ibyo kunywa birimo amazi ndetse n'ibindi; ndetse bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone n'ibindi.

Kubw'ibyiringiro by'umwana wese ndetse no kugira ubuzima bwiza, akwiye kubifashwamo ahabwa indyo yuzuye, akurikiranwa buri munsi ndetse ahabwa n'amasomo, kugira ngo akure afite ubwenge muri rusange.

Abaforomo ndetse n'abaganga n'abandi bajyanama b'ubuzima batandukanye baririmbana ubwuzu bishimira ko bahawe ikigo gishyashya cyo gukoreramo ibikorwa byabo ndetse by'ubufasha.

Ahahuriye imbaga nyamwinshi itandukanye abagore n'abagabo, mu nama igenzura imigabo n'imigambi y'ubuzima ndetse n'ibyagezweho ngo barebe ibyo bateganya mu gihe kizaza.

Icyumba kiberamo amanama, kiba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa, telefoni igendanwa, ndetse n'ibisakaza amashusho nka televiziyo n'ibindi.

Umwana uri hagati y'imyaka itanu ndetse n'icumi ari kumwe n'umuganga amuhereza urukingo yifashishije urushinge.

Ubukangurambaga buteganyijwe bwo kurwanya icyorezo cya marubaga i Kigali itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umugabo watorotse ikigo gishinzwe kugenzura indwara zo mu mutwe ndetse no gufasha abahuye nazo, yafashwe n'inzego z'umutekano ndetse yambaye ipingu.

Nyuma yinama yafashe umwanya muremure yahuje abigishwa ndetse n'abakangurambaga n'abandi bafite ubumenyi ku ndwara zo mu mutwe twafashe ifoto rusange hamwe.

Abana barishima nyuma yo kubwirwa imbwirwaruhame ivuga ko umwana ari umutware, adakwiye guhangayikwa akiri muto, bishimye, kandi baranakina imikino.

Murakaza neza nanone mu kigo cy'i kigali kivura abafite ibibazo by'imitekerereze, amahugurwa aba ku wa gatatu ndetse no kuwa gatandatu.

Uhagarariye ibitaro bivura abarwayi haba abakomeretse ndetse n'abavunitse ndetse n'abahuye n'indwara zitandukanye, zirimo iz'amenyo, imitekerereze ndetse n'izindi afatira ifoto imbere y'ibitaro.

Abagore batatu bafite umwana ndetse bafite n'ibikoresho, aho bari kujya mu kazi ko mu murima ka buri munsi, kandi babikora nk'umwuga.

Gutera imbere k'ubuvuzi hagati mu gihugu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri, na makumyabiri, hari ibigo byagizemo uruhare, birimo kaminuza y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kanada.

Umugore asobanurira mugenzi we uburyo bakoresha agakoresho gashya kugira ngo umuntu amenye ko atwite, aho bagashyira mu nkari z'ukeka ko atwite ako kanya kagahita kabigaragaza.

Umugore arava guhinga ndetse ashakira ibyatsi amatungo ye kugira ngo arusheho gutanga umusaruro urimo amata ndetse n'ibindi bifasha mu gutunga abana be.

Abakangurambaga b'ubuzima, abaganga ndetse n'abaforomo, bafashe umwanya bakora itente ngo bafashe abarwayi bari bubagane, babasuzuma ndetse babakorera n'izindi serivisi mu busanzwe ziba zigoye kubona.

Ikigo cy'igihugu gihuza abanyeshuri ndetse kikanabahugura uburyo bafasha umurwayi cyangwa se ubaganye agaragarwaho n'indwara zo mu mutwe.

Haratangwa ibiganiro, bijyanye n'ubuzima, higwa igenamiterere nshyashya, yateza imbere ubuzima, haba mu mijyi ndetse no mu byaro.

Abana bari mu kigero k'imyaka imwe barishimira ko mwarimu ababwiye ngo bajye kugorora ingingo, bakine ku bibuga aho basanzwe bakinira kugira ngo bagaruke bongere basubire mu masomo.

Umukobwa arita ku isuku yo mu kanwa ndetse anahanagura amenyo akoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'imiti yica udukoko two mu kanwa.

Umuforomo ndetse n'umuganga wabihuguriwe bari kwita ku murwayi ufite ibibazo by'amenyo bitandukanye birimo ifumbi, umuhumuro utari mwiza mu kanwa n'izindi.

Umwana muto na we yisuzumisha amenyo kandi agafata imiti ndetse n'ingamba zo kuyasukura buri munsi, zagenwe n'abakangurambaga b'ubuzima.

Imashini zo kwa muganga zifashishwa n'umuganga igihe yoza ndetse akavura umurwayi ufite amenyo adasa neza, cyangwa se indwara zo mu kanwa.

Umurwayi w'amenyo, ari kurata amenyo nyuma y'uko avuye kubonana na muganga ndetse nabandi bantu babishinzwe, kugirango banoze, ndetse bavure indwara zugarije amenyo.

Abana bambaye impuzankano isa y'ibara ry'icyatsi yanditseho tubitayeho, baje kwikingiza ndetse no gufata ibimenyetso by'indwara zo mu menyo.

Umuganga ushinzwe gupima imiti ndetse no kuyisuzuma ko izagira impinduka igira ku murwayi wayinyoye, ari kwandika raporo agaragaza ko nta kibazo imiti ifite yakoreshwa.

Koza amenyo ikurinda indwara zitandukanye zirimo ifumbi ndetse n'umuhumuro mubi mu kanwa kandi amenyo yawe agasa neza.

Guhanagura amenyo ukoresheje urudodo cyangwa se ibindi birimo: inshinge, ibiti ukubamo byangiza amenyo, ikiruta ni ujya kwa muganga wabihuguriwe w'amenyo akagukoreramo isuku.

Inyubako igeretse inshuro ebyiri ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ifite amazina agaragaza ko ari ahantu habonerwa ibyiringiro.

Umwana w'umukobwa ari gusuzumwa amenyo bagira ngo barebe ko nta bibazo byaba birimo, birimo nk'indwara benshi tuzi nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Umuforomo ndetse n'umuganga bashinzwe kwita ku buzima bw'abarwayi mu bijyanye no mu kanwa ari gusuzuma ndetse atanga n'inama yafasha uwamugannye.

Nyuma yo kurwara indwara zitandukanye zo mu kanwa, zirimo ifumbi ndetse n'umuhumuro mubi wo mu kanwa, yahisemo kujya kureba umuganga uzobereye mu bijyanye no kuvura amenyo ndetse no kuyahanagura, ngo agire icyo amufasha.

Umugore ushinguye w'imyaka mirongo itanu kuzamura, ari muri siporo ngororamubiri, afashe n'amaboko ye yombi ku kuguru kumwe.

Umukozi wo kwa muganga ushinzwe kwita ku barwayi akamenya igihe bafatiye imiti arimwo arahereza usheshe akanguhe uba mu kigo kibitaho imiti ku gihe.

Ibiribwa byifitemo intungamubiri zitandukanye, zirimo izifasha abagezeyo mu za bukuru ndetse n'abandi barwayi bazikenera.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, harimo abayobozi, n'abandi baturage basanzwe, bari gutanga, bafasha abantu bakuze batandukanye, babahereza ibiringiti byo kuraramo, n'ibindi byinshi.

Umusaza ndetse n'umugore bageze mu za bukuru mu myaka mirongo itandatu ndetse na mirongo inani barasoma igitabo, ari ko bafata imiti bandikiwe n'abaganga neza.

Ushinzwe gutanga imiti ndetse no gukurikirana ubuzima bw'umurwayi, no mu rugo aho ari cyangwa se usheshe akanguhe uri mu zabukuru.

Abasheshe akanguhe bahuriye ahantu hamwe, kugira ngo bafate inyigisho z'uburyo bakwita ku buzima bwabo bwa buri munsi, bafata indyo yuzuye ndetse n'ibindi.

Abantu bari mu murima wi'icyayi barimo gukora umurimo wabo benshi muri bo bafite ibikapu birimo icyayi kandi bari gukora mu mirima mu buryo bw'umwuga.

Umuforomo wo kwa muganga ufasha abarwayi bafite intege nke ndetse n'abageze mu zabukuru kugorora ingingo uko iminsi igenda yisunika.

Umwana na sekuru barakina imikino y'ikoranabuhanga, iri mu bwoko bwa videwo, mu kigo gishinzwe kwita ku basheshe akanguhe, ndetse n'abandi barwayi batandukanye.

Umugore ukuze uri muri siporo, ngororamubiri, ashinze amaboko, ndetse igice cy'igihimba kidakora hasi, kugira ngo umugongo we urusheho gukomera, ndetse ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Umuforomo cyangwa se umuganga arafasha umurwayi kugorora ingingo yifashishije umugozi wabugenewe kubikora.

Raporo igaragaza uburyo afurika ndetse n'utundi duce twose dutandukanye two muri afurika, twahanganye n'icyorezo cya corona virusi muri rusange.

Umuyobozi wambaye ikoti rya kaki uri gutanga ibiganiro ari kwifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo ibisakaza amajwi bizwi nka mikoro n'ibifata amashusho nka kamera.

Umunsi w'ihuriro ry'imbaga nyamwinshi ahataramirwa ndetse hakanigishirizwa uburyo virusi itera sida yandura n'uburyo yakwirindwa n'ingamba zishobora gufatwakaranduka mu buzima bwose.

Abaganga babihuguriwe kandi babizobereyemo, bambaye impuzankano irinda umubiri wose, ibiganza, umunwa ndetse no mu maso hose, bari gusuzuma indwara ya kovidi cumi n'icyenda.

Inama igamije kuganira ku bijyanye n'ubuzima muri Afurika, isigaje umunsi umwe ngo ibe kuko izaba tariki makumyabiri n'enye z'ukwa mbere, amasaha ya saayine za mu gitondo.

Ikoranabuhanga ryahujwe n'ubuzima ubutabazi bwihuse kandi bunoze amahugurwa ni kuri mirongo itatu z'ukwa cumi na kumwe isaha ni saa tatu za mugitondo.

Umubare w'abagore b'abayobozi bari muri njyanama ishinzwe ubuzima mu gihugu, inama yahuje abo bagore iri kubera mu gihugu mo indani.

Urwandiko ruriho amahame ndetse n'ibyo umurwayi, cyangwa se umurwaza, cyangwa se umuganga, asabwe kuzuza cyangwa kubahiriza, kugira ngo ubuzima bukomeze kugira intambwe imwe buvaho ndetse n'iyo bujyaho.

Tugomba kwita ku buzima bwacu ndetse n'abaganga bakita ku buzima bwa bagenzi babo, tugaharanira kugira indangagaciro no kuzishyira mu bikorwa, inama itangwa na minisiteri ishinzwe ubuzima mu gihugu cyacu.

Aho umuganga aganirarira n'umurwayi mu ibanga kugira ngo barebe umuti w'indwara cyangwa w'ikibazo umurwayi afite umuhangayikishije.

Umuganga wabihuguriwe kandi ufite ubumenyi mu gukoresha mudasobwa, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, arabaza umurwayi uko amerewe kugira ngo abashe kumugenera imiti imukwiriye.

Abagore ndetse n'abagabo bahuriye mu cyumba bakira amabwiriza ndetse n'imikoreshereze ndetse n'ibijyanye n'ubuvuzi muri rusange.

Ahantu hateguriwe abantu bakeneye kwitabwaho mu buryo bw'ubuvuzi bwo kugorora ingingo buzwi nka masaje, hari intebe nyinshi zifite ibitanda.

Umuganga wabihuguriwe, asuzuma imiti, ndetse n'ubukana bwayo, n'ingaruka yagira ku muntu, igihe yaba ayikoresheje nabi, cyangwa yabakoresheje myinshi itarateganyijwe.

Mu cyumba kivurirwamo abarwayi harimo ibikoresho bitandukanye, birimo ibitanga umwuka ku murwayi, tereviziyo itanga amashusho y'uburyo umurwayi ahagaze ndetse n'ibindi.

Amazu yo mu kigo nderabuzima ashinzwe kwakira abarwayi batandukanye, harimo abakomeretse ndetse n'abafite uburwayi bw'ingingo n'abandi batandukanye.

Icyumba kigezweho cyakira umuntu umwe mu bitaro kirimo ibikoresho byose bikenewe birimo iby'isuku ndetse n'ibindi bimufasha kumererwa neza mu gihe ari kwitabwaho.

Icyumba gifite ibikoresho bitandukanye bikoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibitawukoresha byifashishwa na muganga igihe asuzuma cyangwa avura umurwayi wamugannye amaso.

Umuntu ushinzwe kuvura ndetse no gukora raporo y'umurwayi wagaragaje ibimenyetso cyangwa wagannye ivuriro ari kuri mudasobwa; aho ari kuzuza amakuru asabwe kuzuza.

Inyubako ndende igeretse inshuro eshatu y'ivuriro ahavurirwa indwara zitandukanye zirimo iz'amenyo ndetse n'izindi nk'iz'umugongo.

Ivuriro riri mu ishusho y'uruziga gusa risa neza ryitaruye riri mu giturage aho abarwayi ndetse n'abandi bakeneye kurigana bagera byoroshye cyane.

Ivuriro cyangwa se ikigonderabuzima, kiratuje gifite ubusitani bwiza umurwayi cyangwa uhagannye, areba akishimira.

Icyumba kirimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'utubati n'ibitambaro bigabanya ibice.

Inyubako ikorerwamo na fondasiyo ivura ibijyanye n'amaso, ku buryo umurwayi yongera kugarura imboni isa neza kandi ibona cyane.

Ivuriro rifashirizwamo abagore babyara ndetse n'abana babo ndetse ababasura bakahabasanga babazaniye ifunguro rinoze ribafasha koroherwa igihe bakiri mu bitaro.

Ahatangirwa serivisi z'ubuzima, zirimo ubuvuzi bwa gakondo, ubuvuzi bw'amenyo, ubuvuzi bw'imitekerereze, ndetse n'ubundi.

Ahatangirwa ubuvuzi butandukanye burimo ubw'amenyo, ubw'umugongo, ubw'ingingo ndetse n'ubundi, hakunze kugaragara ubusitani bwiza burimo indabyo zibereye ijisho.

Ibitaro bikuru kandi bigari bifite amazina ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura ibigwi, ahaparitse imodoka zitwara abarwayi zizwi nk'imbangukiragutabara.

Ikigo gishinzwe ubuvuzi butandukanye burimo ubw'amenyo, ubw'ibice by'umubiri nk'umutima, ubwonko n'ibindi, kiri mu kazi amasaha y'amanywa.

Gahunda ya leta yo gufata amaraso yatanzwe n'ababishaka bafite umutima wo gufasha abarwayi, ndetse n'abandi bakeneye amaraso, kugirango ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza.

Ikigo gishinzwe gutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi giteguye neza aho hari intebe zo mu ruganiriro zizwi nk'amadiva.

Umukozi ushinzwe gukora amasuku mu bitaro, ari gusukura aho abarwayi barara, ndetse yifashishije imiti igiye itandukanye yica imyanda.

Icyumba cyo kwa muganga kibikwamo amaraso yatanzwe n'ababishakaga ndetse n'umutima w'urukundo bagirango ngo bafashe abarwayi bari kwa muganga bayakeneye.

Inyubako z'ikigo nderabuzima cyangwa se ibitaro byakira abarwayi batandukanye, yaba abo mu giturage ndetse n'abo mu mijyi, baje kwivuza indwara zitandukanye.

Mu nyubako y'ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro, harimo intebe nziza zo mu ruganiriro, aho abarwayi cyangwa abandi bantu muri rusange bagannye ivuriro bicara mu gihe bategereje.

Inzu irimo itangirwamo ibiganiro byerekeye ubuzima, higwa kandi harandurwa indwara irembeje abantu ya malariya iterwa n'agakoko k'umubu.

Muganga yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nka televiziyo, mudasobwa, telefone igendanwa n'ibindi ari kureba ibice by'umurwayi by'umubiri birwaye.

Inzu icururizwamo imiti ndetse ikanafasha mu gushyikiriza imiti abayikeneye ndetse n'abaturage muri rusange aho batuye bidasabye gukora urugendo runini.

Umuganga w'amenyo cyangwa uwahuguriwe ubuvuzi bw'amenyo, ategereje abarwayi ndetse n'abandi bafite ibibazo byerekeranye n'amenyo ngo abavure.

Ivuriro rigezweho ririmo ibitanda by'abarwayi bihanahana umwanya kandi birimo n'inzitiramibu zirinda abarwayi malariya iterwa n'umubu.

Umuforomo wo kwa muganga, ushinzwe kwita ku barwayi, ari kwita ku ruhinja rukivuka, arwambika arwoza ndetse n'indi mirimo yagenewe impinja.

Ahatangirwa serivisi kwa muganga zijyanye n'amenyo kuyasukura, kuyakura, kuyahoma ndetse n'izindi, harasukuye kandi hari imiti yica udukoko.

Ibitaro binini bigeretse rimwe bifite imbuga yakira imodoka ndetse bigaragara ko n'ibitaro ari uko byakira abarwayi benshi.

Imyitozo ngororamubiri nayo iri mu gice cy'ingenzi cy'ubuzima gifasha abarwayi kugorora ingingo zimwe zangiritse zigasubira mu buryo.

Ukora imyitozo ngororamubiri aba afite ubuzima bwiza noneho akarusho akanywa amazi ndetse agafata ifunguro rinoze ririmo intungamubiri.

Umuryango ushinzwe ubutabazi bw'imbabare ndetse n'abandi bose, babayeho nabi, urakora ubukangurambaga bw'uburyo wakwitabara by'ibanze.

Agakapu gafite ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu kuvura n'umuntu ugize ikibazo mu kigo runaka karimo ibikoresho bitandukanye nk'imikasi, ibipfuko ndetse n'ibindi.

Nyuma y'uko ukoze siporo muganga yaguteganyirije kandi yakugejejeho kugira ngo ukire indwara runaka, gira gutya urenzeho ifunguro rinoze ririmo amazi meza, imbuto, n'izindi,...

Ubuzima bwacu bwarushaho kumera neza mu buryo butandukanye, dufashe imirire yuzuye itandukanye, irimo ibitunguru amashu, inyanya ndetse n'ibindi ariko ntitwibagirwe no gukora imyitozo ngororamubiri...

Imashini ikoresha umuriro w'amashanyarazi, yifashishwa mu buvuzi ndetse no mu bindi bigo byigenga bivura ishinzwe gufata ibimenyetso ndetse n'ibizamini by'umurwayi ku bitaro.

Umukobwa aragorora ingingo, asutamye, amanitse amaboko yombi hejuru, bifasha umugongo kurambuka, ndetse agakira indwara zijyanye na diyabete ndetse n'izindi.

Urugendo rwa siporo y'imiti ndetse no kuganirizwa bizwi nka terapi, bizateza imbere ku buryo uzajya abihabwa azajya abikora nta kabuza.

Igikorwa cyo gufata ishashi irimo urubura ugashyira ku mvune wagize bikiza mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'imvune wari ufite.

Uko ukora siporo ngororamubiri buri munsi yo guterura ibiremereye ndetse kwirukanka, umubiri wawe urekura ibinure ndetse n'ibindi binyamafufu byinshi biba biri mu mubiri wawe, hanyuma ukirira ndetse ukananywa amazi meza bikagufasha kugira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri icumi yagufasha guteza imbere imitekerereze yawe ndetse n'umubiri wawe muri rusange, kugorora ingingo, kugorora imitsi ndetse n'ibindi.

Ibikoresho byifashishwa na muganga apima umurwayi cyangwa se amuvura, birimo ibihanagura ibisebe ndetse n'ibifata umuriro w'umurwayi.

Icyumba gikorerwamo operasiyo itandukanye irimo kubaga ndetse n'izindi serivisi zo mu buvuzi zo kwitonderwa kirimo abakozi babihuguriwe.

Ukora siporo, agomba kugorora ingingo zitandukanye, zirimo inkokora, amavi, intoki, ibirenge , ndetse n'ibindi nk'ijosi muri rusange.

Umukobwa ukora siporo azikorera imbere y'ikiyaga ku buryo amahumbezi amugeraho akumva ameze neza ndetse atuje.

Muganga akora ku kaguru k'umurwayi akamubaza ati ese aho ubabara ni hehe cyangwa aho wavunitse ni hehe? Kugira ngo amenye aho ahera amufasha.

Igikoresho cyifashishwa muri siporo kigura ibihumbi ijana by'amafaranga y'u Rwanda, cyagufasha gukuraho inda cyangwa kugabanya ibinure bikoroheye.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga igihe bari mu nshingano zabo, birimo ibipfuko bipfuka ibisebe, ndetse n'ibindi birimu ga zambarwa kugira ngo hakomeze gukumirwa imyanda yava ku ntoki ijya ku murwayi.

Kunywa amazi meza kandi asukuye waba usoje siporo cyangwa utarayijyamo, bituma ubuzima bwawe bukomeza kurushaho kumera neza.

Umugabo w'umwirabura ari mu myitozo ngorora mubiri afashe ukuguru kwe n'amaboko abiri, ndetse yambaye impeta igaragaza ko afite igihango yagiranye n'umufasha we.

Mu cyumba cy'imyitozo ngororamubiri ndetse haterurirwa ibiremereye kugira ngo ingingo zikomere, hari imashini ifasha uyikoresheje kugira imbaraga mu kwirukanka kandi buri munsi.

Mu minsi ya nyuma y'icyumweru turahura ingeri zose abakobwa, abana tugakora siporo ngororamubiri, kandi ni ukubera ko siporo ntawe iheza kandi ntawe utayikeneye mu buzima bwe.

Umukobwa aranywa amazi meza, kandi asa neza, nk'uko muganga abitubwira, ndetse agafasha mu igogora ry'ibyo yariye umunsi wose.

Igihe uhuye n'imvune cyangwa se igikomere kigutunguye kugira ngo ugabanye uburibwe usabwe gushyiraho ishashi irimo ibintu bikonje ku buryo uhita ugabanyirizwa ububabare.

Umuganga cyangwa umukozi w'ubuvuzi uri mu gikorwa cyo kuvura, cyangwa gufasha umuntu uri gukira nyuma yo gukomereka. Muganga ari gukoresha ibikoresho byo gufasha umurwayi gukira imvune.

Icyumba gikorerwamo siporo ngororamubiri yategetswe na muganga ubishinzwe, ndetse uzi neza indwara y'umurwayi.

Umuganga ndetse wabihuguriwe, arafasha umurwayi kugorora ingingo, ndetse agabanya umubyibuho kuko utuma ubuzima bwe ahura n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye.

Ntabwo imiti igabanya uburibwe ariyo yonyine isigaye ikoreshwa, ahubwo kugorora ingingo biri mu bigabanya uburibwe, ndetse no gukoresha igikapu kirimo ibintu bikonje, bikugabanyiriza uburibwe bw'akanya gato.

Agatanda gatoya gatwarwaho umurwayi cyangwa uwagize imvune ku buryo atabasha kugenda, gatwarwa n'abantu babiri umwe afashe inyuma undi afashe imbere.

Igikoresho cyifashishwa n'abarwaye ingingo cyangwa abageze mu zabukuru igihe batabasha kugenda, gifite udupine duto tubafasha kugenda bacyishingikirijeho bakagera iyo bagera.

Niba ufite imvune nko ku kuboko fata ishashi ushyiremo ibintu bikonje ushyire ku mvune, ububabare ndetse no gukira bizakwizanira mu gihe kitari gitoya.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, ndetse n'ibindi bigo bikora ibijyanye n'ubuzima, birimo ameza atekwaho inshinge n'ibindi, ndetse n'ibitwara imiti mu buryo bworoshye.

Agorora umugongo ndetse n'ingingo muri rusange, nk'amaboko n'amaguru, mu gitondo mbere yuko agira ikindi akora, kuko bituma agira ubuzima bwiza kandi intego ze zikarushaho gucamo z'igihe kirekire.

Ubuvuzi bw'imiti ya gakondo mu gihugu buri gutera imbere ku buryo bugaragara kandi iramamazwa cyane.

Imiti itandukanye ya gakondo, ikozwe mu bimera byinshi bitandukanye nk'ibikakarubamba, iyo miti wayifata uyisize ku mubiri, aho ufite ikibazo cyangwa uyinyweye, ikagira ingaruka yageze mu mubiri.

Umugore arasoroma indabyo ndetse n'ibindi bibabi bitandukanye birimo intagarasoryo, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izavura indwara nyinshi kandi zitandukanye.

Uruhererekane rw'imiti rw'inzira ndetse n'uburyo wakoresha ibimera mu buzima bwawe busanzwe, bigatuma ubuzima bwawe burushaho kumera neza.

Uruvange rw'ibimera ndetse n'indi miti gakondo, ruvura indwara nyinshi zirimo iz'ububabare, iz'umugongo, umutwe ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye.

Imiti iri mu bwoko butandukanye ikozwe mu bimera birimo ibikakarubamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye byifashishwa mu gusukura mu kanwa, mu gusukura aho tuba bityo ubuzima bwacu bukaba bwiza.

Kimwe mu bimera byifashishwa hakorwa imiti gakondo ivura abarwaye indwara zitandukanye, zirimo izo munda, izo mu mugongo ndetse n'izo mu mutwe cyahinzwe mu karima k'igikona.

Imiti y'ibinini iboneka mu gacupa k'umweru ikozwe mu bimera ndetse n'ibindi bitandukanye nka tangawise ndetse n'ibindi bifasha umubiri kuzanzamuka.

Ipaki irimo ibyatsi ndetse n'imiti yifashishwa mu buvuzi, aho umurwayi ayifata ayitetse mu mazi ashyushye nk'icyayi.

Ibicuruzwa biri mu ducupa dutoya, tubika umwuka uhumura, ku buryo ukoresha icyo gicuruzwa aba ahumura umubiri we wose imyenda ye ndetse akarushaho kugira isuku.

Imiti ikozwe mu bimera ikunze kwitwa imiti gakondo iri kugaragara mu buryo bwinshi butandukanye birimo ubusukika, ubw'ibinini ndetse n'ubundi butandukanye.

Ibimera byifashishwa bakora imiti gakondo, irimo ivura umutwe, ivura uburiribwe butandukanye, ivura ingingo ndetse n'ibikoreshwa ngo umurwayi amere neza.

Ibimera bitandukanye birimo indimu, tungurusumu, intagarasoryo, ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye.

Amavuta yo guteka, akozwe mu bimera, bisanzwe gakondo, birimo igikatarubamba, aramba kandi avura indwara zitandukanye.

Amavuta akozwe mu bimera birimo ibikakarubamba, tangawize ndetse n'ibindi yifashishwa mu guteka kandi akagira umumaro umeze nk'uw'imiti isanzwe ivura abarwayi.

Amavuta yo gutekesha akozwe mu bimera ndetse bya gakondo bihingwa kandi biboneka mu gihugu, yifashishwa avura indwara zitandukanye.

Ibicuruzwa by'ubuzima bifasha mu kongera umubiri imbaraga z'ubwirinzi, imiti n'ibindi bicuruzwa byifashishwa mu gufasha imikorere myiza y'umubiri.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti mbere yuko ikoreshwa ndetse n'ibitunga umurwayi mbere yuko abikoresha birimo ibiryo ndetse n'ibindi nk'imbuto.

Umuhinzi w'umugore uteze igitambaro cy'umweru ku mutwe ari mu murima asarura ndetse anatera ibihingwa kugira ngo bizere neza.

Agakombe gato basekuriramo ibimera bitandukanye ndetse n'imiti itandukanye, kugira ngo bakore uruvange rw'imiti rufasha umurwayi koroherwa byihuse.

Amavuta akorwa n'inganda hifashishijwe ibimera ndetse n'ibindi yo kwisiga ndetse no gutekesha afasha mu buzima bwa buri munsi, akoreshwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Agakombe kabitse ibinini bivura bikozwe mu buki ndetse n'ibimera bitandukanye nk'ibikakarubamba n'ibindi gapfundikiye kandi gasa nk'umweru.